Inkeragutabara ni bamwe mu bashinzwe umutekano, bagira umumaro munini cyane cyane mu masaha ya nijoro aho baba bashinzwe gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo. Ibingibi byabashije kugabanya abajura ndetse n'abandi babaga bitwaje ijoro bagashaka gusahura iby'abaturage.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitekanye ku Isi, ibi ngibi rwabigezeho nyuma y'uko rushyizeho ingamba zo gushaka abashinzwe umutekano barimo nk'abapolisi, abasirikare, daso, inkeragutabara bifashishwa mu gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo. Ibi ngibi byatumye u Rwanda rukara rukanagera mu bihugu bya mbere bifite amahoro ku isi.

Abakobwa n'abahungu bafite hagati y'imyaka cumi n'umunani n'imyaka mirongo itatu bafite ubuzima buzira umuze, ndetse bujuje n'ibindi bisabwa na polisi y'u Rwanda bemererwa kujoyininga igisirikare n'igipolisi ndetse n'inkeragutabara ,aho usanga nk'abakobwa biganje mu gipolisi kandi bakigishwa imirimo ya gipolisi igiye itandukanye harimo nko kurasa ndetse n'ibindi

Abashinzwe umutekano bo mu ngeri zose mu karere ka Musanze, ni bamwe mu baturage bagira akama umumaro ukomeye cyane doreko harimo nk'abadaso, inkeragutabara ndetse n'abandi bayobozi b'imidugudu, bagiye batandukanye, aba ngaba bifashishwa mu gucunga umutekano w'abantu ndetse n'ibintu.

Abapolisi, inkeragutabara ,Ribu ndetse n'abasirikare, ni bamwe mu bashinzwe umutekano. Rimwe na rimwe, hari igihe ikigo gishinzwe umutekano mu Rwanda, gitegura amahugurwa, usanga yitabirwa n'izo nce zose, mu kugira ngo banoze umutekano w'abaturage ndetse n'ibintu byabo.

Gaze ni amashiga ahisha vuba aho usanga udakenera inkwi bityo bikagabanya carubone nyinshi mu kirere.

Abashinzwe umutekano ni bamwe mu bantu bafatiye runini abaturage ndetse na Leta hano mu Rwanda. Muri abo bashinzwe umutekano harimo abadaso, hakabamo abapolisi, hakabamo inkeragutabara, hakabamo n'abavuye mu gisirikare. Abo ngabo bose usanga bafatira runini abaturage kuko babacungira ibyabo ndetse nabo bakabacunga ikindi usanga bitwaye neza bahembwa harimo nk'abahembwe moto.

Inama ni imwe mu bikorwa byigirwamo ibibazo byinshi abaturage baba bafite cyangwa baba bibaza. Ikindi usanga mu nama abayobozi bahuriyemo bagirana inama bakavuga ku kibazo runaka kikanakemuka, ikindi no mu nama abayobozi bahugurwa ku bintu bitandukanye ishobora kubafasha mu miyoborere yabo.

Abaturage bo mu karere ka Musanze baba bafite umunsi mu gihe cy’ukwezi bakoreramo inama. Iyi nama yigirwamo ibintu bigiye bitandukanye, nk’aho abafitanye ibibazo babicoca, ndetse abayobozi bakanabagira inama y’uko babyitwaramo, cyangwa bakanababwira gahunda leta iri kubagezaho muri iyo minsi.

Isekuru ni kimwe mu bikoresho gakondo Abanyarwanda babaga bafite mu ngo zabo. Iyi sekuro ikintu yabafashaga ni mu gusekura ibiryo bigiye bitandukanye, birimo nk'imyumbati, soya, amasaka, ikabafasha ndetse no gusekura isombe. Yari ifite umumaro ukomeye cyane.

Umusururu, ubushera, ikigage, inzoga, ndetse n'umutobe, wasangaga mu muco Nyarwanda ari byo bintu bakunda, cyane cyane nk'abasaza b'iki gihe bo muri iyi minsi babayeho kera, usanga ari bamwe mu bantu bazobereye kwenga ibyo bintu bigiye bitandukanye, no ku munsi w'umuganura abanyarwanda rimwe na rimwe bajya babyiyibutsa.

Mu Rwanda kubera ko usanga mu cyaro nt'amamashini ahagije yo gutunganya umusaruro wabo baba bafite, bakoresha ibikoresho gakondo mu gutunganya umusaruro wabo, harimo nk'inkoko bifashisha mu kugosora, bikabafasha mu gukuramo utuntu twaba turi mu bihingwa byabo, cyangwa se mu musaruro wabo harimo nk' imyanda ibyo ngibyo rwose, inkoko ibikora neza ikabivanaho.

Umuco nyarwanda ni umwe mu mico ikungahaye ku bintu byinshi cyane ,nkaho usanga ikintu bita icumu cyarabaga gifitiye abanyarwanda benshi umumaro, dore ko ari byo bakoreshaga mu guhiga inyamaswa zigiye zitandukanye, bakabasha kubona inyama bifashisha mu biribwa bya buri munsi.

Imbyino gakondo ni zimwe mu mbyino zibyina zibyinwa ahantu henshi mu rwaynda, cyane cyane nko mu bukwe mu bitaramo ku munsi w'umuganura, ndetse n'ikindi gihe usanga abarebye izo mbyino bazishimira, cyane cyane nk'abakerarugendo baba baturutse mu bindi bihugu, baba babona batazi ibyo ari byo ariko bishimiye.

Umuganda ni kimwe mu bikorwa bigira akamaro ku gihugu cyacu, dore y'uko buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi abaturage bose bahura nta n'umwe uvuyemo, bagakora umuganda uhera ku isaha ya saa mbiri ukagera ku isaha ya saa tanu, uvugwamo ndetse n'ibindi bibazo abaturage bafite, abayobozi bakabagira inama ndetse bikabasha no gukemuka.

Mu muco nyarwanda, wasangaga ibikoresho bikoze mu byuma byarabaga ari bikeya. Niho byaturutse rero, Abanyarwanda biga guhanga icyo bita isekuru n'umuhini wayo. Iki gikoresho cyifashishwaga mu gufata ibiribwa, bakaba babikoramo ifu, birimo nk'ubugari, soya, amasaka, ndetse n'ibindi.

Umuco w'abakera wasangaga imyenda ubungubu igezweho y'amapantaro n'amashati itarabagaho cyane, ahubwo wasangaga n'abagabo barakenyeraga imikenyero akaba ariyo bambara, ikindi abagabo babaga bazwiho kugendana amacumu.

Mu muco w'Abanyarwanda, wasangaga harabagamo kuboha, Abanyarwandakazi b'abagore cyangwa b'abakobwa wasangaga barakuraga bazi kuboha uduseke, ahanini twifashishwa mu kubika ibintu bigiye bitandukanye, birimo nk'amafu y'ubugari amafu y'amasaka ndetse n'ibindi.

Kera mu muco w'Abanyarwanda wasangaga inka ari itungo rikomeye, abashumba iyo bajyaga kuziragira hari igihe imvura yabasangaga aho babaga baragiye, icyo gihe nta kundi kuntu babaga bafite baza kugama, ahubwo bafataga imyenda babaga bitwaje cyangwa bagafata amakoma, akaba ariyo bakoramo ikintu kimeze nk'ikibakingira imvura.

Inyambo ni zimwe mu nka zizwi nkaho arizo zicumbikiye umuco nyarwanda dore yuko arizo nka wasangaga aba kera barororaga. Izi nyambo zagaragazwaga no kuba zifite amahembe maremare kandi yigoronzoye, ikindi kuri ubugubu nubwo zisa naho zisigaye ahantu hake hari aho wazibona nk'iyanza mu rukari ndetse n'ahandi mu Rwanda.

Ubworozi bw'inzuki ni imwe mu mirimo nayo ishobora kugirira akamaro uyikora dore yuko ubuki ubungubu ikiro kigeze ku bihumbi birenga bitatu kandi kigura ibihumbi bitatu kiba kitaratunganywa neza iyo cyatunganyijwe n'umuturage bisanzwe kiba kigura ibihumbi bitanu ariko iyo byasabye ko kijya mu nganda ibyo bihumbi bitanu birarenga

Umuvure, ni kimwe mu bikoresho abanyarwanda bakoreshaga kera, mu gihe cyo kwenga dore yuko ko cyabafashaga kwenga ibitoki, bakaba babivanamo umutobe ndetse n'igikatsi, umutobe wavagamo hano iyo babaga ari abakirisitu bawunyweraga aho ngaho, ariko iyo yabaga ari abakunda inzoga bahitaga bengamo inzoga, bagahita bashyiramo amasaka bikaba inzoga.

Abanyarwanda ni bamwe mu bantu bihariye ku muco wabo dore y'uko bagira umuco ubamo imbyino gakondo zihariye ugereranyije n'indi mico. Izo mbyino gakondo akenshi zikorwa n'izo bita intore aho ziba zambaye amabigi ku maguru ndetse bafite n'icumu mu ntoki ndetse bambaye n'imisatsi miremire y'umweru itendera. ibi ngibi byafatwaga nk'umuco nyarwanda.

Mu muco nyarwanda usanga n'iyo habaye ubukwe, abaturage baterana bakabyina imbyino nyarwanda, zo mu muco w'abakera. Ibingibi babikora nko mu gihe cyo khakhra umugeni, cyangwa se no mu bindi bice, biba bigize ubukwe nyarwanda.

Ingoro ni ahantu umwami yacumbikaga akaba ariho yabaga, ndetse akahakorera imirimo ya buri munsi igi itandukanye, nko kuyobora ndetse n'ibindi. Wasangaga urugo rw'umwami rukikije ingoro rwubakishije uduti tumeze neza turinganiye ku murongo. Aha ngaha mu ngoro y'umwami yabanagamo n'abandi bantu bagiye batandukanye mu muryango.

Mu muco w'abakera wasangaga abadamu baho barabaga basokoje imisatsi miremire bikitwa ko ari umuco nyarwanda, cyane cyane abantu basokuzaga iyo misatsi babaga ari abagore b'umwami ndetse n'abandi bafite icyo bashinzwe mu buyobozi bwa kera.

Umuco nyarwanda ni umwe mu mico yihariye ndetse ubamo ibintu bigiye bitandukanye byinshi, harimo n'imbyino ndetse n'ibindi nkaho usanga barabyinaga kera barabitaga intore, babaga bambaye imisatsi y'imyeru ndetse n'amayugi ku birenge banacigatiye icumu.

Mu muco wa kera wasangaga abana bagira imikino bakinaga irimo nko gusimbuka urukiramende, aho uwarusimbukaga cyangwa se agasimbuka hejuru cyane yabaga ari intwari, agafatwa nk'aho ariwe ukaze kuberako yabaga azi gusimbuka cyane, ibyo ngibyo byifashishwaga mu kureba abana bashabutse bazabasha kujya mu rugerero.

Ibikoresho gakondo ni bimwe mu bikoresho byagiraga umumaro mu banyarwanda bakera kubera ko ibyabaga bikozwe mu byuma, byabaga bigoye kubibona. Ibyo bikoresho harimo nk'ibisabo, ibyombo. Byifashishwaga mu gushyiramo ibintu bigiye bitandukanye, harimo nk'ikigage, amata ndetse n'ibindi.

Mu karere ka Musanze usanga abaturage bagifite umuco, aho usanga hari aho babumbye ibibumbano bigiye bitandukanye birimo nk'iby'ingagi ndetse n'ibindi. Ibibumbano bifasha abaturage mu kumenya umuco nyarwanda ku myambarire, ndetse n'ibindi bashaka kwigira ku muco.

Kera mu Rwanda inka ryari itungo ryabaga ryubashywe, cyane kubera ko ryatangaga umukamo cyangwa se rikanatanga n' inyama yifashishwaga na benshi mu banyarwanda, mu mirire ndetse no mu minywere ikindi amata barayavuzaga akaba yatanga n' amavuta babanje kuyacunda.

Mu muco nyarwanda habamo imbyino zitandukanye kandi zishimisha abazireba, nk’aho usanga abakobwa biteze neza, bakenyeye imikenyero myiza yo mu mabara agiye atandukanye, babyina imbyino banambaye amayugi ku birenge.

Igicuba ni kimwe mu bikoresho bya gakondo byabagaho kera, bashyiragamo amata mu gihe babaga bari kuyakama. Iyo bamaraga kuyakama bahitaga bayashyira mu bindi bikoresho byifashishwaga mu kugira ngo azavuriremo, nyuma yaho azahite anyobwa.

Kera abaturage bo muri Musanze, ibibatunze cyane cyane ahanini ari ibiryo byo mu muco nyarwanda. Ibyo birimo nk'amasaka, ibigori, ni ho wanasangaga bifashisha urusyo mu gusya ifu nk'iy'amasaka, urubetezi ndetse n'ibindi.

Iruhande rw'ibirunga hari ibiyaga bigiye bitandukanye, ibyo biyaga abaturage babyifashisha mu burobyi, mu kuroba amafi ashobora kwifashishwa mu mirire y'abaturage ndetse no mu bindi bikorwa byanabateza imbere.

Isekuru ni bimwe mu bikoresho abanyarwanda ba kera bakoreshaga mu gusekura ibiribwa bigiye bitandukanye muri ibyo biribwa wasangaga harimo isombe, ubugari, amasaka, soya, ibigori ndetse n'ibindi bifashishaga mu buzima bwabo bwa buri munsi mu mirire.

Kera mu mucyo nyarwanda wangaga nta ibicurangisho bigezweho byabagaho, ahubwo bakoreshaga umuduri n'inanga, mu kunezeza abifuza imbyino gakondo, aho usanga muri iki gihe kubona umuntu ukizi gukoresha umuduri n'inanga ari bakeya.

Nkibindi bihugu byose u Rwanda narwo rufite imbyino gakondo. Izi mbyino gakondo zibyinwa ahantu henshi nko mu bitaramo, mu bukwe, ndetse n'ibindi birori bihuza abatari bake bazi umuco nyarwanda. Aha ngaha usanga imbyino ziganjemo izibyinwa n'intore, ndetse n'abandi bakobwa baba bafite amacumu bakagira n'ingabo.

Umuco nyarwanda ni umwe mu mico ku isi ifite ibintu byinshi yihariyeho mbere y'uko kimwe mu binazwi cyane yihariyeho n'intore ubu usanga zifite imisatsi miremire ndetse zikagira n'ingabo zambara ku kuboko zikagira n'inkoni yazo iteye nk'icumu zikagira n'amayugi bambara ku birenge ibi bikurura ba mukerarugendo benshi baba baryohewe n'imbyino zayo.

Kuri ubu ngubu mu Karere ka Musanze, hari ahantu hubatse sitati zigaragaza umuco nyarwanda, zigaragaza umuco nyarwanda kubera ko nk'intore, ishusho igaragara intore ihagaze, iri gukoma ingoma ndetse n'abakobwa bambaye amayugi, bari kubyina banakenyeye, banatanditse amaboko.

Ikigage, inzoga n'umutobe ni bimwe mu binyobwa abaturarwanda bakundaga kunwa, kera mu muco wa kera wasangaga nk'ikigage baragishyiraga mu bicuma binini, barangiza bakajombamo imiheha ababishaka bagasangira bazengurutse icyo gicuma, cyabaga giteretse ku ngasire.

Mu muco wa kera wasangaga nta byuma byabagaho byasyaga amafu agiye atandukanye bityo rero abaturage bakoreshaga intyazo mu kugira ngo batunganye umusaruro wabo. Harimo nk'amasaka kugira ngo bayakoreshe babetera cyangwa se n'ibindi babaga bashaka kuyakoresha.

Kera mu muco w'abatubanjirije, ibikoresho bikozwe mu byuma ntabwo byatungwaga na buri wese, ni yo mpamvu wasangaga babaga batunze nk'inkono zikozwe mu ibumba, imbabura ndetse n'ibindi bikoresho byinshi byabo wasangaga bikozwe mu ibumba, kubera ko ibyuma byabaga bihenze cyangwa kubibona bigoranye.

Umuco w'abakera wasangaga nta bikoresho bigezweho by'imicurangire bakoreshaga, ahubwo bo bakoreshaga imiduri ndetse n'inanga. Imideri n'inanga wasangaga bikozwe mu gacuma, ndetse n'inkoni babazaga neza bagashyiraho umugwegwe, bakaba babicuranga bikabyara injyana yumvikana inaryoheye amatwi.

Mu muco nyarwanda usibye kuboha, wasangaga abanyarwanda bazi no kubumba ibikoresho bigiye bitandukanye mu ibumba , ariko kandi ugasanga ahanini bibanda ku mitako bashyira mu nzu, birimo nk'ibishushanyo byiza.

Abanyarwanda ba kera wasangaga bazi kuboha ibiseke, ndetse n'utundi dukoresho dushobora guterekwaho ibintu. Kandi twabaga dusa neza m'unzu rero n'ubu ngubu baracyabiboha ariko ababoha basa nka bagabanutse.

Mu muco nyarwanda habagaho igikorwa bita kuba. Abadamu n'abakobwa babaga bazi kuboha imisambi imeze neza, ikoze mu mabara yose. Imisambi bayikora mu byatsi bita imisuna, ubu usanga isarurwa ahantu mu gishanga hasi. Iyingiyi bayijyanaga ibwami, ndetse bakanayijyana no ku isoko.

ibicuba ni bimwe mu bikoresho kera abanyarwanda bakoreshaga, cyane cyane mu kubika amata. Nk'iyo wasanga bakimara gukama, barabiterekagamo amata, yamara kuvura akaba ari bwo bazayanywa. Cyangwa se ugasanga bahitaga bayanyweramo, muri ibyo bicuba akimara gukamwa.

Ku munsi w'umuganura cyangwa se mu minsi isanzwe usanga abaturage bo mu cyaro bateka indyo za kinyarwanda harimo: nk'ubugari bw'amasaka aribwo aribwo bita rukacarara, ibirayi, ibishyimbo amateke ndetse n'imboga dodo, bikabafasha kwiyibutsa uburyo abanyarwanda ba kera babagaho.

Abaturage bo mu cyaro ni bamwe mu baturage usanga bagikoresha ibikoresho gakondo mu gutunganya umusaruro wabo. Aho harimo nk'ibitoki, ibitoki iyo babitunganyije neza mu gikoresho cyitwa umuvure, bibasha kuvamo umutobe ndetse uwo mu mutobe ukaba wanakwengamo inzoga. Inzoga bajyana ku isoko bakazicuruza mu tubari tugiye dutandukanye, ukaba wabasha kubona amafaranga.

Intore ni bimwe mu bigaragaza umuco nyarwanda, aho usanga intore yambaye amayugi ku maguru ikambara imikenyero, ndetse n'imisatsi miremire y'umweru mu kuboko kumwe kw'iburyo icigatiye icumu, ukundi kw'ibumoso icigatiye ingabo.

Kera mu Rwanda wasangaga ibintu byitwa amacupa ubu ngubu basigaye banweramo bitarabagaho, ahubwo bo bakoreshaga uducuma ndetse n'imiheha, utu ducuma twera ku bwoko bw'igiti kijya kumera nk'icyeraho amadegede, bakadusarura bakatwumutsa neza mwo imbere bagakuramo imbuto ziba zirimo, agacuma kakaba karabonetse.

Mu muco wa kera，wasangaga abaturarwanda barakundaga gutarama cyane. Nk'aho bashyiraga umwami， bimwe mu byo babaga bejeje harimo nk'amata， ibishyimbo， ibiribwa bisanzwe birimo nk'amateke， ibijumba， ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bakabyinira n'umwami，ndetse n'abakobwa baho， bakabyina imbyino zimushimisha.

Mu muco nyarwanda abantu baragiraga inka babitaga abashumba, igihe baragiraga inka hari igihe wasangaga imvura yaragwaga cyangwa izuba ryinshi, iyo imvura yagwaga cyangwa izuba ryinshi wasangaga babaga bafite akantu bari bwitwikire mu mutwe, bikabafasha mu kwirinda kunyagirwa cyangwa se kuvirwa n'iryo zuba.

Mu muco Nyarwanda habagamo ibikoresho byinshi ibyo bikoresho kuri iki gihe usanga bisa nk'aho mu ngo byacitse ahubwo aho bisigaye ari mu ngoro z'umuco. Ibyo bikoresho harimo nk'ibisabo, ibicuba, imyuko ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu muco w'abakera harimo no gushushanya aho wasangaga abanyarwanda benshi bitaga abanyabugeni barabaga bazi gushushanya ibishushanyo byiza kandi bikundwa n'abatari bakeya. Ugasanga n'umushushanya yashushanyije ingoma, agashushanya inkono y'itabi ndetse n'ibindi. Abanyarwanda bashobora kubimanika muri salo zabo mu byumba ndetse n'ahandi.

Intore ziba zifite imbyino gakondo zikundwa n'abatari bakeya hano mu Rwanda, ikintu kigaragaza intore ni ukuba zambaye agapira zinakenyeye umukenyero, ndetse ziba zicigatiye ingabo mu kaboko kamwe k'ibumoso, zikanacigatira icumu mu kaboko kw'iburyo ikindi ziba zambaye imisatsi ku mutwe miremire y'umweru.

Mu muco w'abakera, wasangaga hari inyogosho babaga bihariye cyane cyane abagabo. Iyi nyogosho bayitaga kogosha amasunzu, aho wasangaga abagabo benshi bamaze gukura, bafite umuryango mugari, barogoshaga amasunzu, ndetse n'umwami nawe wasangaga yarabaga yogoshe muri ubwo buryo.

Mu muco nyarwanda wasangaga harabagamo ibikorwa byinshi abaturage bakoreshaga intoki cyane cyane nk'iyo babaga basuye umwami harimo nko kuboha, kubaza, gukora intebe ndetse n'utundi tuntu twabaga turi bushimishe umwami kandi n'abadukoze bakaba barabashaga kutugurisha mu bandi baturage basanzwe.

Umuco wa kera wasangaga amasafuriya atari ibintu wasangaga ahantu henshi. Uhubwo bo bakoreshaga inkono mu guteka, mu gushyiramo ibintu, mu gushyiramo ikigage ndetse n'ibindi. Rero no kuri ubu ngo usanga ari abaturage bakibumba. Bakabumba inkono zifashishwa mu gukora ibintu bigiye bitandukanye.

Ibikoresho by'amashanyarazi harimo ibikoresho byinshi. Harimo imigozi igiye itandukanye y'amatelefone, amamashini, ndetse hakabamo n'icyo twitara raronje mu rurimi rw'igifaransa. Iyo raronje igufasha gucomekaho ibikoresho byinshi kandi mu gihe kimwe byose bikageramo umuriro.

Abanyeshuri bo mu mashuri ya segonderi ndetse n'ayisumbuye bigamo uburyo mu bakoresha ibikoresho bya heritirisiti, cyangwa se n'ibikoresho by'amashanyarazi. Harimo n'ibikondorora umuriro winjira mu nzu ndetse n'ibindi.

Bimwe mu bikoresho byifashishwa mu mashanyarazi; harimo utumashini dutoya twifashisha mu gukupa cyangwa gukupura, ikindi dushobora gufata direkiti Kareti tukayihinduramo aritenative kareti n'ibindi bifashishwa mu mashanyarazi.

Bimwe mu byo abana bakiga segonderi ahanini biga amashanyarazi bimwe mu byo biga, biga ibyerekeranye n'amashanyarazi birimo nka kalenti, aperi , ndetse n'ibindi byerekeranye na byo. Aha ngaha usanga bakoresha icyo bita amasuwici bifashisha mu gukupa mu gukupura, bashaka kureka amashanyarazi agatambuka.

Kuri ubu ngubu, abana bakiri batoya bafite ahantu bakusanyirizwa mu Murenge umwe, bakabasha kwigishwa bikabafasha mu mikurire yabo, abo bana baba biganjemo abafite ubumuga ndetse n'abataratangira kujya ku ishuri.

Leta usibye kubaka amashuri, ibitaro ndetse n'ibindi bigo bifite akamaro, leta inubakira abatishoboye ndetse ikabaha n'inka za girinka, izi nka zibafasha mu kwiteza imbere dore yuko nk'abaturage benshi, usanga barikuye mu bukene kubera izo nka za girinka.

Iki gihe Leta y'u Rwanda yagerageje gushyira amatara ku mihanda myinshi cyane iri mu Karere ka Musanze, ndetse no mu gihugu hose. Ibi ng'ibi bifasha abaturage mu gukomeza ubuhahirane, haba no mu gihe cy'ijoro, kuko baba banacungiwe umutekano, bigatuma bagenda bisanzuye ahantu hari amatara hateka...

Ahantu hamwe na hamwe hari imigezi mu karere ka Musanze hari igihe usanga harangiritse ku buryo hatabasha kunyura nk'imodoka cyangwa ibindi bikorwa byose remezo bitabasha kuhakorerwa, bityo rero usanga Leta yarabashyiriyeho nk'ikiraro kibasha gukomezanya ubuhahirane hagati y'abaturage mu buryo bworoshye kandi bikabafasha mu kugendererana.

Ibikorwa remezo ni bimwe mu bikorwa bigirira akamaro Leta ndetse n'abaturage. Ibikorwaremezo birimo nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bitandukanye, bigirira akamaro Leta dore y'uko bitanga umusoro, ikindi bikaba binakoresha abantu bagiye batandukanye.

Abaturage batishoboye usanga rimwe na rimwe Leta hari igihe ibubakira imidugudu igezweho, imidugudu irimo ibintu byose bashobora gukenera mu buzima bwabo bwa buri munsi harimo nk'amashanyarazi ,amazi meza asukuye, ndetse n'ibindi bakegerezwa n'amasoko ndetse n'ibindi n'ubuvuzi.

Kuri ubu ngubu leta yamaze gushyira ibikorwa remezo byinshi, abantu bagenda bakoresha mu buryo butandukanye bikabagirira akamaro, muri ibyo bikorwa remezo harimo nk'amavuriro, hakabamo n'amashuri, aya mashuri agirira akamaro abatari bakeya, dore y'uko usanga hariyo abana bakiri bato, bibafasha mu gukuza ubwenge ndetse no kwihangira imirimo, mu gihe basohotse.

Kuri ubu ngubu mu Rwanda hari imirenge irenga magana ane na cumi n'itandatu, hakaba n'imidugudu ndetse n'utugari birenga igihumbi. Ibingibi byose ahenshi usanga bafite inzu bakoreramo. Izi nzu bakoreramo, uba usanga hanze hari idarapo ry’u Rwanda rigaragaza yuko iyi ari inyubako ya Leta.

Mu karere ka Musanze usanga umubare w'abaturage munini ari abanyagatolika. Kuri ubwo rero hari ahantu hubatse ishapeli irimo igishushanyo cy'umwamikazi Mariya aho abaturage batari bake bajya kugisura buri mwaka , ahanini biganjemo abanyagatolika.

Ibigo by'amashuri bigira umumaro ku banyeshuri bahiga, ndetse no kuri guverinoma cyangwa se ubuyobozi, dore y'uko abanyeshuri babona amashuri bigiramo, bikabafasha mu gutyaza ubwenge, bakazabasha kugirira umumaro igihugu, ndetse no kuwigirira bo ubwabo bwite, n'imiryango yabo mu gihe kizaza.

Amahoteli ndetse n'amaroji, ni imwe mu bintu bigira akamaro cyane cyane ku bakerarugendo ndetse na ba nyirazo, kuko usanga hari nk'igihe umukerarugendo aza gusura muri Afurika, cyangwa n'undi uturutse ahandi hatandukanye mu gihugu, akaza bukamwiriraho akabura ahantu arara, ariko iyo mu gace runaka hari amaroji hakaba ndetse n'amahoteli bibafasha kubona aho barara, na bo bakagira amafaranga bishyura kuri ba nyirazo.

Ibigo by'amashuri, ibitaro, ndetse n'ibindi bikorwa remezo, ni bimwe mu bikorwa byubakwa na Leta, nk'aho usanga Leta yubaka ibigo by'amashuri bigezweho, ikabubakira nk'ibyumba bihagije bishobora kwakira abanyeshuri benshi, kandi bose bakabasha kwiga neza.

Ibigo by'amashuri ni bimwe mu bikorwaremezo bigirira akamaro abaturage, dore ko abana bajya kuyigira bakabasha gukarishya ubumenyi, ndetse bakazavamo abagabo ndetse n'abayobozi b'ejo hazaza, nkaho usanga abana bamwe biga bakazaba abaganga, abandi bakazaba abashoferi, abandi bakazaba ibindi bigiye bitandukanye, bikabafasha mu kwiteza imbere.

Amashuri y'incuke agira umumaro ukomeye cyane mu mikurire y'abana bakiri batoya, cyane cyane abari munsi y'imyaka itanu dore yuko ari cyo gihe cyiza cyo gukuza ubwonko bwabo. Rero no mu karere ka Musanze hari amashuri menshi afasha abo bana mu kubasha gukura neza bakazagira ubuzima buzira umuze, ndetse bakanagira imitsindire myiza cyane cyane mu masomo biga ku ishuri.

Ibitaro ndetse n’amavuriro ni bimwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage begereye aho ibyo bikorwaremezo biri. Dore yuko nk’umuturage ugize ikibazo cyangwa se akagira nk’impanuka, abasha kubigana bikamuha ubuvuzi kandi ku gihe, bikaba byamutabarira ubuzima.

Ibigo by'amashuri nimwe mu bikorwa bigirira akamaro abatari bakeya, usanga amashuri y'incuke afasha abana mu gukura, akabafasha no mu gukangura ubwonko bwabo cyane cyane nk'abana bari munsi y'imyaka itanu, babijyamo bakabasha kwigishwa ibintubigiye bitandukanye, kwandika, gusoma ndetse n'ibindi.

Insengero ni bimwe mu bikorwa remezo, bigira akamaro gakomeye cyane, mu myitwarire y'abaturage batuye u Rwanda ndetse no mu Karere ka Musanze, kuri ubu ngubu buri murenge usanga harimo cyakoze, nk'insengero nk'eshanu zaba iz'abanyagatolika, abapeni ndetse n'abakirisitu bandi basanzwe nk'abadeperi.

Igihugu cyacu cyasize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo, bityo rero usanga barubatse amazu menshi agezweho, akorerwamo n'ibigo bitandukanye bya leta: harimo n'uturere, amuriro, ibigo by'amashuri ndetse n'ibindi, n'ibindi byifashishwa mu kuyobora abaturage neza ndetse bikaninjiriza leta inyungu nyinshi.

Kuri ubu ngubu leta, yashyizeho uburyo bwiza bwo kubakira abaturage imihanda igezweho, kandi miremire. Imihanda yifashishwa n'abaturage, mu bukerarugendo ndetse no mu buhahirane hagati yabo. Yaba mu turere rwagati ndetse no mu ntara.

Kuri ubu ngubu, u Rwanda rwashyize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo, birimo amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa reremezo nk'amashuri, byifashishwa mu mirimo igiye itandukanye. Usanga na Leta yaragiye ifasha mu kubaka amahoteli yifashishwa na ba mukerarugendo mu kurara, cyangwa se no mu bindi bikorwa byabo bya buri munsi.

Abaturage bo mu karere ka Musanze biteje imbere, nk'aho usanga nk'umuturage w'urubyiruko kuri iki gihe aba amaze kwiyubakira inzu ye bwite, agashyiramo n'ibindi bikoresho bikenewe harimo nk'intebe zo kwicaraho, ameza yo guterekaho utuntu, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikenerwa mu nzu birimo nk'ibitanda n'ibindi.

Leta yagiye yubaka inyubako zigiye zitandukanye. Izi nyubako harimo n'izikorerwamo imikino. Hakabamo izo kwivurizamo ibitaro, ndetse n'amashuri. Ariko n'abaturage hari igihe bifatanya bo ubwabo, bakubaka insengero zitandukanye, aho basengera buri cyumweru cyangwa se kuwa gatandatu, bikabafasha kwegerana n'Imana.

Muri iki gihe umusaruro w'abaturage usanga wariyongereye, bitewe nuko hajeho ibintu byo gukoresha amafumbire mvaruganda ndetse n'andi mafumbire agezweho, bityo rero usanga hafi y'imirima y'abaturage hari inzu baba bafite basaruriramo, cyane cyane nk'ibigori babisarura bakabishyira muri iyo nzu, mu gihe bategereje imodoka ndetse n'amagare azabibagereza ku masoko.

Kuri ubu ngubu mu karere ka Musanze hari ibikorwa remezo byinshi cyane, dore yuko n'amavuriro yabaye menshi, nk'aba abaturage bivuza ku buryo bworoshye, kandi ku buryo buri murenge ugiye ufite ahantu abaturage babonera serivise z'ubuvuzi.

Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, yabaye mu gihugu cyacu, uburenganzira bwa muntu, ndetse n'ubutabera, ni kimwe mu bintu byimakajwe, aho wasangaga mbere abadamu batitabwaho, ugasanga nta n'ubwo bafite uburenganzira ku mutungo, ungana n'uw'abagabo. Nyuma ya jenoside, uburenganzira baje kugira ubungana, ndetse n'ubutabera bwabo burubahirizwa.

Mu karere ka Musanze ndetse no mu Rwanda hose, abadamu ndetse n'abakobwa bagiye basobanurirwa uburenganzira bwabo ndetse n'ubutabera bwabo. Kuri ubungubu abaturage bose basigaye bafite urugero rumwe rungana rw'ubutabera, cyane cyane nk'aho abagore n'abadamu bazamuriwe ubutabera bwabo bakaba nabo bafite ijambo mu muryango ndetse no mubuyobozi.

Abaturage rimwe na rimwe usanga bahurizwa hamwe n'abayobozi, bakiga ibintu bigiye bitandukanye, birimo nk'uburenganzira bw'abaturage, uburenganzira bw'abana, uburenganzira bw'abagore, bikabafasha mu gusobanukirwa neza kandi ugasanga bibarinda amakosa n'ibindi.

Abaturage bo mu karere ka Musanze, usanga bafite nk'umunsi bahura, bakigishwa ku bijyanye n'uburenganzira bwabo, ndetse n'ubutabera bagiye bafite, cyane cyane wasangaga mu muco wa kera, abadamu barahezwaga inyuma cyane ariko ubu ngubu bakaba bafatwa kimwe n'abagabo, bakagira ndetse n'uruhare rungana n'urw'abagabo, ku bintu bigiye bitandukanye birimo n'imitungo.

Buri uko abayobozi babishoboye bakusanya abaturage bo mu mirenge igiye itandukanye, mu tugari dutandukanye ndetse no ku rwego rw'umudugudu, bakabigisha uburenganzira bwabo ndetse n'ubutabera bagiye bafite. ibyo bigafasha abaturage mu kutarenganwa mu gihe bahuye n'ikibazo runaka.

Kuri ubu ngubu abaturage ndetse n'abayobozi usanga bafite umunsi bahuriramo bagahurira nko ku kagari,k' murenge bagacoca ibibazo biba biri hagati y'abaturage ndetse abaturage bakanigishwa uburyo bwo kubikemura. Ikindi abaturage bigishwa ku bijyanye n'uburenganzira bwabo n'ubutabera.

Kurubu mu karere ka musanze, abaturage usanga mu minsi y'imibyizi isanzwe bahitamo umunsi bakoreramo inama, uyu munsi w'inama bigishwamo ibintu bigiye bitandukanye birimo nk'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera. Ikindi kuri wo minsi niho batoramo abayobozi babo bashobora kubahagararira mu nzego nkuru.

Kuri ubu mu Rwanda, nta muturage utazi uburenganzira bwe cyangwa ubutabera afite. Dore y’uko nka buri cyumweru, buri mudugudu ndetse n'akagari baba bafite ahantu bari buteranire, bakajya inama, bakanahugurana ku bijyanye n'uburenganzira ndetse n'ubutabera bafite.

Ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu ni bumwe mu bwikorezi bugezweho muri iyi minsi, dore aho usanga mu Rwanda haraje ama bisi manini cyane atwara abantu benshi. Aya ma bisi abatwara abavana mu mujyi wa kigali abajyana mu ntara, cyangwa mu mujyi wa Kigali rwagati, no mu karere ka Musanze rero ayo mabisi ajya ahagera.

Iyo umugoroba ugeze, usanga aribwo abaturage benshi baba bavuye mu kazi, batangiye kwerekeza aho baba, cyangwa batangiye kwerekeza mu mu zindi ce z'igihugu. Rero no mu karere ka musanze, usanga muri gare haba harimo abaturage benshi, bagiye mu ngendo zitandukanye, ikindi kandi izi gare zirasirimutse ku buryo haba hari amatara, bibafasha neza kubona imodoka bari bujye gutega.

Kuri ubungu ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu bwateye imbere, nk'aho usanga abaturage bava mu karere kamwe bakajya mu kandi binyuze mu mabisi maremare agezweho atwara abantu, ikindi usibye kuba ayo mabisi ashobora kuva mu karere kamwe ajya mu kandi, hari amabisi agezweho ashobora kuva mu gihugu kimwe ajya mu kindi nko kuva mu Rwanda ugera Kampala muri Uganda.

Ubwikorezi ni bumwe mu bikorwa bimaze gutera imbere kandi bikanateza imbere abantu benshi. Kuri ubu ngubu nko mu mujyi wa Kigali, usanga hari amabisi manini atwara ibintu byinshi ndetse n'abantu, zikifashishwa mu bukerarugendo, mu buhashyi n'ubuhahirane bw'intara zose zo mu Gihugu cyacu, u Rwanda.

Abaturage nk'uko bakora ubuhinzi ndetse n'ubucuruzi, ntihabura aho babona imyanda igiye itandukanye. Iyi myanda ikusanyirizwa hamwe ,bakaba bayitwika cyangwa bakaba bayikoresha mu gufumbira ibindi bihingwa, itiriwe igira ingaruka ku baturage.

Ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu ni bimwe mu bikorwa biri gutera imbere cyane; dore nk'aho usanga yuko amakampani menshi yagiye ashyira imbaraga muri ubwo bwikorezi aho yagiye azana amabisi maremare cyane ashobora gutwara abantu benshi ndetse n'ibintu byinshi, aho twavugamo nka kampani ya Ritiko ndetse n'izindi.

Uburobyi bw'amafi ni bimwe mu bikorwa biri kugirira abaturage benshi akamaro, dore aho usanga mu karere ka Musanze hari ibiyaga bigiye bitandukanye byubatswemo ubwato bunini bushoboraa gutwara ibintu byinshi ndetse bukanifashishwa mu burobyi. Uburobyi amafi avuyemo ajyanwa ku masoko atandukanye abaturage bakaba babasha kuyagura.

Ubutwazi bw'abantu n'ibintu kuri moto ni bumwe mu bwikorezi bugezweho mu mujyi wa Musanze. Dore yuko n'abadamu batahejwe, na bo basigaye babukora. Ibingibi bikabafasha mu kwiteza imbere, bakabona amafaranga bakoresha mu bindi bikorwa.

Urwanda ndetse n'igihugu cya Koreya basinyanye amasezerano yo kohereza bisi nini zibasha gutwara abagenzi benshi. Ibi byaje nyuma y'aho mu mujyi wa Kigali habayeho ibura ry'amabisi agenda atwara abantu, abakwirakwiza mu mujyi wa Kigali mu nshe zose. Nka za Remera, Kabuga, kanombe ndetse n'ahandi.

Usibye gutwara abantu n'ibintu binyuze mu modoka kuri ubu ngubu, no gutwara abantu binyuze kuri moto biremera, kandi ni bimwe mu bikorwa bisigaye biteye imbere dore yuko abantu benshi basigaye bafite moto, kandi bafite n'ibyangombwa birimo nka perimi byo kwitwara. No mu karere ka Musanze abaturage ntibasigaye inyuma, usanga abenshi baramaze kubona perime kandi bakabasha gutwara abaturage, babavana hamwe babajyana ahandi.

Ubwikorezi bw'abantu n'ibintu ni bimwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage, dore yuko kuri ubungubu bumaze no gutera imbere , usanga nko mu mujyi wa Musanze. Hari ubwoko butandukanye bw'amabisi ndetse hamaze no kuba hari gare nziza igezweho ya kijyambere.

Ubwikorezi bw'abantu ni bumwe mu bwikorezi bugira akamaro cyane cyane ku gihugu dore yuko usanga no mu Rwanda hari amakampani agiye atandukanye afite amabisi manini ashobora gutwara abantu benshi abavana mu ntara imwe abajyana mu yindi .Aho harimo nka litiko, volukano, horizo ndetse n'izindi . Izi usanga akenshi zikorera mu ntara cyane cyane nko mu ntara y'amajyaruguru, mu majyepfo y'irasirazuba n'iburengerazuba.

Ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu. Ni bimwe mu bikorwa bimaze gutera imbere ,mu karere ka Musanze. Nk'aho usanga ubu ngubu mu karere ka Musanze hari amaparikingi. Ndetse n'amabisi agezweho. Yifashishwa mu gutwara abantu.

Ubutwazi bw'abantu n'ibintu ni bimwe mu bintu bikorwa bimaze gutera imbere. Nk'aho usanga ama bisi manini apakirwamo ibikoresho byinshi, akabasha kujya mu mujyi wa kigali cyangwa no mu tundi turere. Ikindi usanga bafite abakanishi bayakora mu gihe yagize ikibazo. Aya mabisi kandi usanga yurukirwa ku byambu bigiye bitandukanye nko muri Kenya na Tanzania, noneho akazanwa n'ibimodoka biyakurura biyageza mu Rwanda.

Kuri ubu ngubu, ubwikorezi ni bimwe mu bikorwa bigezweho cyane hano mu Karere ka Musanze, hari nk'abaturage uba usanga barihimbiye, igikoresho gishyashya kibafasha mu kwikorera, ibintu bigiye bitandukanye birimo, nk'amadomoro y'amavuta ndetse n'ibindi.

Abaturage bejeje umusaruro wabo bawugurisha mu masoko agiye atandukanye, akenshi usanga atabegereye, ni ho rero hifashishwa amakamyo manini, ashobora gutwara n'imifuka nka makumyabiri, akajyana umusaruro w'abaturage ku masoko agezweho, kandi uzabahera ku giciro bazishima.

Ubwikorezi bw'abantu ndetse n'ibintu, ni bumwe mu bwikorezi bumaze gutera imbere. Akarere ka Musanze ntikasigaye inyuma, dore y'uko ubungubu hari gare igezweho, ndetse n'amabisi manini agezweho, ashobora gutwara abantu benshi.

Amagare agira umumaro ukomeye cyane mu gutwara abantu ndetse n'ibintu . Nko mu karere ka Musanze usanga ibirayi ,ndetse n'indi myaka abaturage baba bejeje ,itwarwa n'amagare bayivana ahantu hamwe bayijyana ahandi, cyane cyane bayivana mu murima bayijyana ku isoko.

Mu mihanda igiye itandukanye yo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu mugi wa Musanze, usanga hakorerwamo ubwikorezi bugiye butandukanye, hari ubwikorezi bukorerwa mu mabisi manini hakaba ubwikorezi bukorerwa ku ma moto, amamodoka y'abigenga ndetse n'amarifani, n'ibindi bintu byose byemewe mu gutwara abantu n'ibintu bya Musanze.

Mu mirenge imwe n'imwe aho usanga gare zitari, usanga hari ahantu bahisemo amabisi matoya, cyangwa se azwi nka tagisi. Aparika akabasha gutwara abaturage abavana aho hantu abajyana kuri gare nini.

Umukino wa tenisi ni umwe mu mikino imaze gukundwa n'abatari bakeya, hano mu gihugu cyacu. N'ubwo kera wasangaga Abanyarwanda batari bayizi, batazi n'uko bawukina, ariko ubu ngubu, usigaye warakomeye, erega hasigaye hari na shampiyona y'abakina tenisi.

Siporo ni imwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage dore yuko yafasha mu kwinanura, mu kuruhuka ndetse no mu kubona amafaranga. Nko kwiruka bishaka kugira umumaro ubikora akabikora ari porofeshono kandi bikaba byamugirarira akamaro bikamuha amafaranga iyo yatsindiye nk'imidari igiye itandukanye.

Umukino wa basketbali, umwe mu mikino imaze gukundwa n'abatari bake mu rwanda. Dore y'uko nko muri bike Arena, usanga buri cyumweru haberamo shampiyona ya basketball. Iyi shampiyona ihuza amakipe yo mu Rwanda amaze kubaka izina. Harimo nka apr, police ndetse n'ayandi.

Kuri ubu ngubu mu Rwanda mu minsi ishize wasangaga nta bantu basobanukiwe ibijyanye n'amasiganwa y'imodoka, ariko kuri ubu ngubu Abanyarwanda bamaze gutera imbere, kandi abenshi ni mu imikino y'amasiganwa mu modoka. Barayitabira mu kuyireba, ndetse no mu kuyikora nk'abarushanwa.

Kagame niwe wigeze kuvuga ngo siporo ni umwarimu, akanigisha n'ibindi bintu bikomeye. Ni na ho we usanga siporo akenshi yitabirwa n'abanyeshuri bakiri batoya, biga muri segonderi bakigiramo ibintu bigiye bitandukanye. Ashaka kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu myitwarire ndetse n'ibindi.

Vore basikete, ni umwe mu mikino ikunzwe n'abatari bakeye, cyane cyane mu bigo by'amashuri ya segonderi, usanga kuri ubu ngubu rero abaturage bamaze gusobanukirwa, usanga banayikina n'ahandi hantu henshi, harimo nko kuba barabigize umwuga.

Siporo mu Karere ka Musanze ikundwa n'abantu benshi cyane cyane nk'umukino wa hendiboro, usanga ukinwa n'abantu batari bake mu karere kacu. Ikindi baba bafite ahantu bajya kuwurebera nk'aho usanga ibigo by'amashuri byahuye, bakidagadura, bagakina imikino igiye itandukanye yiganjemo na hendiboro.

Imikino ni imwe mu bikorwa bigirira abaturage umumaro, dore ko bibafasha mu kurambuka, ndetse no kurwanya indwara zishobora guturuka ku kuba imyanda yagumye mu mubiri. Siporo zirimo nko gusimbuka zishobora gufasha umuturage mu gusohora imyanda mu mubiri, ikaba yajya hanze ikamurinda kurwara indwara zirimo: nk'impyiko ,umutima ndetse n'izindi.

Siporo ni bimwe mu bikorwa bikundwa gukorwa n'abaturage benshi mbere y'uko zibafasha mu kunanura imitsi, mu kunanura amaguru ndetse n'izindi ngingo zishobora kugira ikibazo mu gihe zidakoreshejwe. Ni muri ibyo rero usanga imikino ikundwa ari myinshi harimo n'umukino wa basiketi nk'aho usanga amakipe hano mu Rwanda amaze kuba menshi akina biri porofesiyonere umukino wa basiketi.

Kuri iki gihe usanga mu Rwanda hari ibibuga bigezweho byo gukinirwa n'imikino igiye itandukanye, imikino nka voreboru, basiketi, ariko cyane cyane ubisanga ku bigo by'amashuri yisumbuye.

Imikino ngororamubiri ni imwe mu mikino abantu bakunda cyane. Ikindi n'abafite ubumuga ntabwo bahejwe, nabo usanga bayisangamo cyane cyane nko mu mukino bita sitingi vore. uyu ni umukino ukunze gukinwa n'abantu bafite ubumuga, bagakina vore ariko bicaye.

Umukino wa tennis ni umwe mu mikino ikunzwe n'abatari bake. Naho usanga nk'abanyamahanga baza mu Rwanda kuyihakinira, kugira ngo bigishe ababishaka uko bayikina. No mu Karere ka Musanze rero ntago basigaye inyuma usanga nko mu bigo by'amashuri bafite ikibuga kigezweho cya tennis baba bakiniraho.

Kuri ubu ngubu mu Rwanda, nyuma yo gutera imbere usanga hari n'indi mikino itarabarizwaga mu Rwanda ariko ubu ngubu isigaye ikorwa, nk'imikino yo koga baba barushanwa bikaba byabafasha mu kunanura, mu rwego rwa siporo ndetse no mu kubona amafaranga, kubera ko utsinze bamuha umudali.

Siporo ni imwe mu mikino ikunzwe cyane hano mu gihugu cyacu ndetse no mu Karere ka Musanze, nk'aho usanga abaturage bajya kureba umukino wa voleboro uba wahuje amakipe agiye atandukanye. Uyu ni umukino ukunze kuryohera abatari bake, kuko wiganzamo gutanga ibyishimo cyane.

Amasiganwa y'amagare mu Rwanda, muri iki gihe yateye imbere. Aho usanga azenguruka igihugu cyose, cyane cyane mu irushanwa rizwi, ryitabirwa n'amahanga yose, bita tour du Rwanda. Rero no mu karere ka musanze usanga bahanyura. Iyo bahanyuze, abaturage usanga bahagaze ku muhanda, bari kubashungera.

Siporo igira umumaro ukomeye cyane mu bakiri batoya doreko ibafasha mu kuruhuka ndetse no kwidagadura, amwe mu ma siporo kera muco nyarwanda bakoraga harimo nk'ayo gutera amacumu, ubu ngubu usanga mu karere ka Musanze hari abana biga gutera amacumu, bakiga kuyatera akagenda agahita yihagarika.

Kuri ubungubu mu Rwanda hari imwe muri sitade zikomeye hano ku mugabane wa afurika ariyo stade amahoro. Iyi sitade amahoro ifite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi mirongo ine na bitanu bicaye neza. Ikindi iyi sitade yakirirwamo imikino ikomeye y'igihugu cyacu nk'amavubi ndetse n'imikino ikomeye hano mu Rwanda ihuza amakipe akomeye arimo nka aperi na reyo.

Umukino w'amagare mu Rwanda ,ni umwe mu mikino imaze gutera imbere ,dore ko ubu ngubu turu di Rwanda bayikuye kuri kabiri n'ibice bibiri bakayishyira kuri kabiri n'igice kimwe, ibi bivuze yuko ibihugu biyitabira byabaye byinshi, birimo nk'Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bikomeye kandi bizwi mu mukino w'amagare ,isigaye ihuruza abatari bakeya ,ku muhanda baba wuzuyeyo mu gihe ari kuba turu di Rwanda.

Siporo nayo igirira akamaro abaturage, dore y'uko siporo ibafasha mu kuruhuka mu kwinanura ndetse no kugira ubuzima buzira umuze, aho ifasha umubiri mu gukora neza, usanga nka siporo zirimo gusimbuka zikundwa n'abatari bakeya, cyane cyane biganjemo urubyiruko.

Siporo igira umumaro ku baturage ndetse n'urubyiruko doreko ari na rwo usanga ruyikunda cyane, zimwe muri siporo zikunze gukorwa harimo no kwiruka. Kwiruka usanga hateguwe amarushanwa azwi nka marato, ababishaka bakirukanka ku ntera runaka iba yateganyijwe nka metero maganabiri , metero ijana, ndetse n'izindi.

Umukino wa basiketibolu ni umwe mu mikino igezweho hano mu Rwanda, kuko amakipe akomeye muri uwo mukino amaze kuba menshi. kandi n’u Rwanda rusigaye rwakira iyo mikino ku rwego mpuzamahanga, ndetse no ku rwego rwa Afurika, abenshi bazi ku izina rya Bale.

Siporo n'imwe mu mikino ikunzwe n'abatari bakeya, nubwo hano mu rwanda usanga siporo yokoga itaragira itarakomera cyane ariko ikunzwe n'abatari bake, nkaho usanga abantu biga mu mashuri ya segoderi bayikina bakaba babasha no gutsindadi ibihembo bitandukanyeba birimo n'amafaranga.

Basiketi boro ni imwe mu mikino nayo ikundwa' nabatari bake mu gihugu cyacu, ubungubu irimo gukinirwa muri bike arena aho usanga nk'igihugu cyacu mu bagore muri uwo mukino cyakiye nk'ibindi bihugu birimo:Misiri, Moroko bikaza bagakina imikino igiye itandukanye, iba yateguwe n'ishyirahamwe rishinzwe basiketi ku mugabane w'Afurika.

Siporo bimwe mu bikorwa bigirira akamaro abaturage, dore y'uko hari siporo zigiye zitandukanye, bakora bikabafasha mu kwinanura ndetse bakaba banayibyaza amafaranga, hari nka siporo bita bici vore, iyi ngiyi ni vore ikinirwa ahantu kumucanga, usanga ikunzwe n'abatari bakeya kubera ko ibaha ibyishimo.

Imwe muri siporo ikundwa n'abantu batari bake mu Rwanda ni siporo yo gutwara imodoka . Iyi siporo nubwo mu minsi yashize itari iteye imbere neza mu Rwanda ,ariko ubungubu guhera nko muri za bibiri na cumi na karindwi yatangiye kujya itera imbere. Kandi ugasanga abaturage bakunze kuyireba cyane. Nk'ubu nko mu karere ka Musanze hari irushanwa rijya rihanyura ,ugasanga abaturage bahagaze ku muhanda bari gushungera. Ni rimwe mu marushanwa riryohera abaturage cyane.

Umukino w'amagare n'umwe mu mikino ikunzwe n'abatari bake muri kino gihugu cyacu, no mu karere ka Musanze rero ku mukino w'amagare ntibasigaye inyuma, ahubwo nabo basigaye bawukina dore yuko hari amakipe asigaye akina umukino w'amagare, akanafasha n'abana bato bafite iyo mpano.

Umukino wa voreboro ni umukino ukunzwe n'abatari bake mu gihugu cyacu. Dore nk'aho usanga mu bigo by'amashuri ya segonderi , aribo bakunze kuyikina cyane , ugasanga kandi bafite n'amakipe akomeye , ashobora kujya guhatana ku rwego mpuzamahanga . Kuri ubu ngubu muri bike Arena , usanga ariho hakunze gukinirwa shampiyona y'umukino voreboro mu Rwanda.

Umupira w'amaguru, ni imwe muri siporo zihuruza abantu benshi, dore y'uko nk'ubungubu mu Rwanda tumaze kugira amasitade manini, harimo na sitade Amahoro, ishobora kwakira abantu ibihumbi mirongo ine nabitanu kandi ugasanga, nko ku mukino wa aperi na reyo iyo stade iruzuye, reyo hano mu Rwanda bivugwa ko ariyo ifite abafana benshi , dore yuko yiganje kurusha za aperi ndetse na za mukura.

Siporo ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu, kuko yifashishwa mu gusohora imyanda ivuye mu mubiri, igasohokana n'ibyuya. Ikindi yifashishwa mu gutwika ibinure igihe biri ku mubiri mu nce zigiye zitandukanye. Siporo zirimo nko kwiruka ni zimwe muri siporo zigira umumaro cyane ugereranyije n'izindi.

Siporo ni ingirakamaro cyane, kandi abayikina usanga hari ababigira umwuga cyangwa se bakayikina nk'abatarabigize umwuga, imwe muri siporo ikundwa n'abantu benshi cyane ni siporo ya voreboro, iyi siporo usanga akenshi ikungahaye uyisanga mu banyeshuri bacyiga muri segonderi, kubera ko ariho baba begereye ibibuga ndetse n'ibindi bibafasha mu kuyikora.

Umukino wa voreboro ni umwe mu mikino ikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cyacu, dore y'uko usanga nko mu mashuri yisumbuye ari umwe mu mikino ikunze gukinirwayo, kandi usanga no mu Rwanda amakipe ya voreboro na yo amaze gutera imbere, harimo nk'amakipe ya Gisagara, Aperi. Aya ni amwe mu makipe amaze kubaka izina hano mu Rwanda, mu mukino wa voreboro.

Umukino wa basiketi, ni umwe mu mikino ihuruza abatari bake hano mu Rwanda, nk'aho usanga mu bigo by'amashuri ariho bakunze kuyikina, ikaba ihuza abanyeshuri benshi baba baje kuyireba, ndetse n'amakipe agiye atandukanye y'ibigo, aho usanga nka Lise do kigali, ari imwe mu makipe akomeye hano mu Rwanda, mu umukino wa basiketi.

Siporo ndetse n'imyidagaduro, ni bimwe mu bikorwa abaturage bo muri Musanze bakora, cyane cyane abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho ibigo bigiye bitandukanye bahura bagakina imikino irimo nka futuboro, hendiboro ndetse n'abandi banyeshuri bakaba bari kubafana ku ruhande.

Kuri ubu ngubu mu cyaro cyo mu karere ka Musanze ahenshi hamaze kugerwaho kaburimbo, izi kaburimbo zifashishwa mu buhahirane bw'abaturage bava mu murenge umwe bajya mu wundi, nubwo usanga amasuku batarayamenya neza kuyakorera iyi imihanda, ariko ni imihanda ibafitiye akamaro gakomeye cyane.

Musanze ni kamwe mu turere two mu Rwanda kamaze kugeramo kaburimbo nyinshi, kuko usanga abaturage bo mu mirenge igiye itandukanye bakora ubuhahirane bakoresheje izo kaburimbo. Ikindi usanga rimwe na rimwe imiganda abaturage basukura iyo mihanda, bigatuma ihora isa neza.